Igikinisho cy'abana bifashisha bakina bakishima ndetse ntibarushye ababyeyi babo, abana iyo bafite igikinisho babaho bishimye.

Igikinisho abana b'inshuke bifashisha mu gukina, bakagiheka, bakakiririmbira, bakishima ndetse ntibarushye ababyeyi babo.

Ibikinisho abana b'inshuke bigiraho amabara bigatuma bakura bazi amabara y'ibintu ku buryo wabereka ibara runaka bakaritandukanya n'irindi.

Ishuri rifite imiryango ibiri umuryango wo ku ruhande wambere ku ruhande rw'ibumoso hariho handitseho pi na gatanu, iruhande rwaho hariho igishushanyo kiriho amagufwa kidufasha kumenya ibice by'umuntu ndetse n’amadirishya abiri.

Ahantu hari pasikarama hari n'amashuri, amashuri yifashishwa mu gutanga ubumenyi ndetse n'ubwenge.

Ingofero ebyiri zigerekeranyije zitandukanye amabara imwe isa umweru indi iza umuhondo, iy'umweru ishushanyijeho igishushanyo gisa umuhondo gifite amaguru y'umutuku, icy'umuhondo gishushanyijeho igishushanyo gisa ubururu ndetse gifite amaguru y'umukara.

Inzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, abantu baboneramo ibyo bakenera ndetse n'umucuruzi akabona amafaranga yo gukemura ibibazo bimwe na bimwe aba afite.

Umuhanda w'ubutaka ujya ku nzu nini ,impande y'aho hari indabo z'icyatsi. lndabo zituma ahantu hagira ishusho nziza.

Ibikinisho by'abana bifashisha bakina, ibikinisho bifasha abana kwishima ndetse ntibarushye ababyeyi babo, bigatuma ababyeyi bakora imirimo yabo neza kandi batuje.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusobanurira abana b'inshuke bigatuma bongera ubumenyi bari bafite ndetse bakanumva neza ibyo bigishijwe harimo utubara twiza cyane dufasha abana kwishima.

Ku ishuri aho bigira ibintu bigiye bitandukanye, bakagira ubumenyi ndetse n'ubwenge bakamenya no kubana neza hagati y'abantu muri rusange.

Icyapa kigaragaza icyerekezo cy'ahantu, ndetse kiri ahantu hari ibyatsi, ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo akagira imbaraga ndetse agatanga umusaruro mu mwiza.

Umwana uri gukaraba intoki n'undi uhagaze imbere ye, gukaraba intoki bituma imyanda ipfa bityo bikarinda kwandura indwara.

Ibikinisho by'abana biri mu mabara meza agiye atandukanye, bifasha abana gukina ndetse no kwishima, bigafasha abana kumva ibyo bigishijwe neza kuko baba bishimye.

Abana bari mu ishuri bari kwandika ku kibaho kwandika bituma abana bagira ubumenyi bwinshi ndetse n'ubwenge.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku ishuri, umwarimu wabo ari imbere yabo ku kibaho, bari gusubiza ibibazo babajijwe na mwarimu.

Ibikoresho bifashisha bashushanya bituma uca umurongo neza kandi igishushanyo kikagira ishusho nziza nkuko uri gushushanya abyifuza.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya harimo, ibyitwa kompa, amarati ibyo bikoresho bituma umuntu ashushanya neza igishushanyo ke kikaba kimeze nkuko abyifuza.

Abanyeshuri bahuriye hamwe, bicaye, bambaye impuzankano, ijipo cyangwa ipantaro ya kaki, ishati y'umweru n'umupira w'icyatsi, abarezi babo bari kubabwira ibintu bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byo ku ishuri harimo ibitabo n'amakaye n'amakaramu y'amabara agiye atandukanye, ari mu bwoko bw'igiti umukasi, hejuru y'amakaye hari urubuto rwa pome.

Abantu bari kujya ku kigo cy'amashuri, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, ishati y'ubururu, ikabutura cyangwa ijipo rya kaki, ku ishuri bahingira ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bifashisha bashushanya harimo amarate, kompa nikaramu bituma igishushanyo kimera neza nkuko ubyifuza.

Mudasobwa iteretseho utundi dukoresho, mudasobwa yifashishwa mu kubika amakuru akazifashishwa mu gihe kizaza.

Ikigo cy'amashuri kirimo idaraporo ry'igihugu, rifite amabara atatu; ibara ry'icyatsi ,ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'ubururu. Ku ishuri niho abantu babonera ubumenyi, ndetse bakanahungukira ubwenge.

Ibikinisho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, ibyo bikinisho biri mu mabara agiye atandukanye, ariyo ubururu, umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye mu ishuri ku ntebe mu matsinda, umwarimu wabo ari ku kibaho ari kubaha umukoro, gukorera mu itsinda bituma bungurana ibitekerezo bityo bagakora ibyo bahawe neza cyane.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya, bigatuma ushushanya ashushanya neza ibintu bifite ireme ndetse n'igikoresho babibikamo.

Inzu y'amatafari ahiye ifite inzugi z'ubururu, ndetse na kositara hari n'akabara k'umweru hejuru yinzugi kazengurutse inzu, imbere y'iyo nzu hari igikoresho bifashisha bakaraba intoki.

Abagabo bahuriye hamwe imbere yabo hari umugore wambaye igikomo ari kubabwira ibintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bahuriye hamwe bambaye umuzanano, bari kubwirwa ibintu bigiye bitandukanye n'abayobozi babo.

Abanyeshuri bambaye impuzamano, imbere yabo hahagaze abagabo babiri, umwe ari kubwira ibintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano bari mu matsinda, umwarimu wabo ari kubakosora ibyo yabahaye gukora.

Abantu bahagaze imbere y'amashuri babiri, ni abagore umwe n'umugabo, abagore bambaye amajire umugabo yambaye ingofero, ikigo cy'amashuri gifasha mu gutanga uburere ku bana.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ,bari kumwe n'abarezi babo bari kwifotoza. Kwifotoza bituma abantu bibuka ibihe byashize.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, ishati y'umweru n'ijipo ya kaki ndetse bamwe bambaye umupira wishuri w'ubururu bicaye mwishuri, bari kubwirwa ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu bahuriye hamwe, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amataratara, afite indangururamajwi aribwira ibintu bigiye bitandukanyekanye.

Abanyeshuri bambaye impuzano, ishati y'umweru ndetse ni'pantaro ya kake, hari intebe z'umweru, imbere yabo hari umuyobozi wabo, arikubwira ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe ndetse n'ameza bikoze mu biti, ameza bayifashisha mu gihe barimo kwandika, intebe na zo bakazicaraho, hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu kwigisha abantu.

Abantu bambaye impuzangano ndetse bafite amakaye n'amakaramu, bamwe bari kwandika barasa nk'aho ari abanyeshuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bafite mudasobwa n'ikayi, ni bari kureba ibintu bigiye bitandukanye, mudasobwa ibika amakuru ndetse rikorerwaho ibintu bigiye bitandukanye..

Abantu bahuriye hamwe, bari kubwirwa ibintu bigiye bitandukanye, iyo abantu bahuriye hamwe kubaha amakuru biroroha, kubera kutagenda ubwira umuntu ku giti cye, ahubwo muvugira muri rusange.

Abanyeshuri bari mu ishuri bafite amakaye n'amakaramu n'amatelefone na mudasobwa, mwarimu wabo ahagaze imbere ari kubigisha, amashuri bungukiramo ubumenyi ndetse n'ubwenge.